Umugabo wambaye iserubeti n'agapfukamunwa ndetse na ga z'umutuku mu ntoki, ahetse ipombo arimo aravomerera ibigori abiteramo umuti. Inyuma gato hari ibiti byinshi ndetse n'urubingo.

Umugabo uri kumwe n'abana babiri yicaye kuri shitingi ikikije damu baroberamo amafi akaba ari guteramo umuti utuma amafi akura cyangwa se akabaho neza.

Amafi menshi atondekanyije afite amaraso nk'aho yafatiwe mu mutego, inyuma yayo hakaba hari ibyatsi n'amashyamba agaragara inyuma gato.

Umugabo wicaye mu bwato, wambaye ingofero, agapira k'umweru n'ipantaro ari kuroba. Yohereje ibiti byinshi mu mazi bimeze nkaho ari imitego yateze kugira ngo abashe kubona amafi akeneye.

Umugabo uri guseka wambaye ishati y'amaboko maremare, akaba ahagaze imbere y'idamu irimo amazi ikoresheje shitingi y'umukara, hirya gato hakaba hari iyindi nzu izitiye irimo rozwari ebyiri.

Umugore wambaye agapfukamunwa akaba afite ishashi irimo amazi, inyuma ye hariyo ibiti bishinze ndetse n'uruzitiro rw'ubururu rurimo amatungo agiye atandukanye, inyuma ye hari ibiti byinshi.

Umuntu ufite umusatsi w'umukara wambaye imyenda y'ubururu ndetse n'umukara akaba ari guca munzira y'igitaka, ku ruhande gato hari ibyatsi byinshi, hakurya hakaba hazitiye, harimo ahantu hameze nk'amazi.

Ahantu hari guca amazi habugenewe, hirya gato hari inzu isakaje amabati ndetse irimo ingurube nyinshi. Inyuma yaho hari urutoki ndetse n'ibiti by'ishyamba.

Inyubako isize irange ry'umuhondo n'amabati hejuru harimo n'ibyuma, hakaba harimo ibitembo byinshi bifasheho insinga zinyuranye ziri mu mabara y'umutuku, umukara ndetse n'umuhondo.

Umusore ufite umusatsi w'umukara, yambaye ishati y'umweru n'umukara y'amaboko magufi, akaba afite indobane irimo ifi nini avuye kuroba. Inyuma ye hakaba hari igiti k'inganzamarumbo ndetse n'urutoki.

Abagore benshi bateze ibitambaro, bakaba bafite ibitebo ndetse n'utudobo twinshi bari gusoroma igihingwa cy'ikawa, hakaba hagaragara amababi ndetse n'insina.

Abantu benshi bari mu murima w'icyayi bahetse ibitebo barimo barayisoroma, bamwe bambaye ingofero abandi bambaye ibitambaro barimo n'abagabo babiri bambaye amajire ajya gusa icyatsi.

Umugore uri mu murima w'icyayi, akaba agifite mu ntoki yambaye ingofero y'umutuku ndetse n'igiserubeti. Akaba ahetse agatebo mu mugongo ari gusoroma, inyuma ye hari inzu ifite amabati y'umutuku.

Abantu bari mu gishanga mu mirima y'imiceri, barimo umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare, ipantaro na kamambiri, ari kumwe n'umugore wambaye agapira k'amabara, akinyeye igitenge, yambaye n'ingutiya, inyuma yabo hari abandi bantu.

Umugore uri mu murima w'icyayi akaba ateze igitambaro cy'umutuku, yiteye igitenge ndetse yambaye n'umupira w'umutuku, iruhande rwe hakaba hari igitebo ari gusoromeramo icyo gihingwa k'icyayi.

Igihingwa cya kawa kiriho imbuto ziri mu byiciro bigiye bitandukanye, harimo izihishije cyane, harimo izijya gusa umuhondo, harimo n'izikiri icyatsi zose zikaba zihuriye ku giti kimwe.

Igiti kiza gifite amababi meza atoshye, bigaragara ko kikiri gitoya, inyuma yacyo hari ibindi byatsi byinshi bitagaragara neza bijya gusa mu ibara ry'umuhondo ryatewe n'urumuri rw'izuba.

Igihingwa cya kawa kiriho imiteja igisa icyatsi zitarera, ikaba ifite amababi asa icyatsi n'ayandi yahishije asa umuhondo, iruhande rwayo hari ibindi bihingwa bya kawa byinshi.

Umurima wo mu gishanga ukaba uhinzemo igihingwa cy'umuceri, harimo n'amazi menshi afasha icyo gihingwa gukura neza. Hakurya hari indi mirima biteganye.

Abagore bane bambaye udupfukamunwa bose, bambaye n'amataburiya abandi babiri ntayo bambaye, bakaba barimo bararonga ikawa, ziri mu kintu kimeze nk'umuvure.

Amacupa apfundikije imipfundikizo y'umweru, ari mu mabara agiye anyuranye ariho ibishushanyo by'inkoko ndetse n'imishwi yazo, hakaba handitseho amagambo ari mu ibara ry'umweru ndetse n'umutuku.

Inzu ipakiyemo amakarito menshi ari mu mabara agiye anyuranye, umweru ndetse n'umutuku handitseho n'amagambo menshi yivanze n'imibare. Iruhande hakaba hari andi makarito y'ubururu n'umweru.

Uducupa twinshi dupfundikiye, turi ahantu hameze nk'ahabugenewe, hari uruzitiro rw'umweru, hakaba harimo utwobo duto duto bagenda baterekamo buri gacupa, mu mwanya wako.

Utuvido twinshi tw'umweru dufite imipfundikizo y'ubururu, tukaba turiho icyapa cy'amatungo yiganjemo inka, ihene n'inkoko, tukaba kandi tugerekeranyije mu kabati.

Ibikombe bipfundikiye birimo imiti y'inkoko n'inyuma hakaba hariho ibishushanyo by'ayo matungo ndetse n'amagi, hakaba hariho n'andi mabara agiye atandukanye.

Amakarito y'umutuku agerekeranyije ariho igishushanyo cy'inka z'umukara ndetse n'umweru. Hirya gato hari akandi gapfunduye karimo imiti myinshi ndetse n'ipombo ikoreshwa mu kuvura inka iri hejuru.

Icupa ry'umukara rifite umupfundikizo w'umutuku, hakaba hariho amagambo ari mu ibara ry'umweru handikishijemo umukara, akaba ari amacupa menshi yegeranye.

Urubuto rw'avoka rufite imiteja myinshi, ikiri mito ndetse n'iyakuze, hakaba harimo rumwe rwaboze. Gifite amababi menshi asa icyatsi ndetse inyuma yacyo hari ibindi biti.

Abagabo babiri bambaye ingofero z'umukara, bambaye n'imipira y'amaboko magufi, bakaba bari kumwe n'akana gatoya kambaye agapira k'umutuku basutamye ahantu mu byatsi.

Umugabo wambaye ikote rijya gusa umutuku, ipantaro y'ubururu na bote, akaba arimo aratera igiti cy'avoka. Iruhande rwe hateye ibyatsi byinshi n'inyuma hari inzu, zisakaje amabati.

Abahinzi bari mu murima w'imyumbati harimo umwe wambaye ikote, ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, bakaba bafite igiti cy'umwumbati kiriho imyumbati yeze neza akaba ari kumwe n'umugore ukenyeye igitenge.

Umugabo wambaye umupira w'amaboko maremare uri mu mabara y'umweru n'umukara, akaba afite ibigori yaranduye mu murima wabyo, hirya ye hari ibiti byinshi binyuranye by'amoko atandukanye.

Umugore wambaye igitambaro k'igitenge n'agapira k'ubururu, akaba afite imbuto ebyiri mu ntoki ziri mu mu mashashi, yazizamuye. Inyuma ye hari abandi bantu benshi bari gutambuka harimo n'ushinzwe umutekano.

Umuntu utagaragara neza mu maso, wambaye umupira w'icyatsi ndetse n'ipantaro y'umukara n'isaha ku kaboko, akaba apfukamye ari gutera igiti akurura itaka ngo agishyireho.

Umurima urimo ibigori byinshi byeze, hino gato bakaba baratemye. Inyuma haragaragara amashyamba n'ibindi biti ndetse n'urunsinga rw'amashanyarazi.

Umugabo wambaye ingofero n'umupira w'amaboko maremare, akaba afite imashini izwiho guhinga, ikaba iri mu gishanga mu murima w'imiceri ari kugerageza gutunganya, ahagiye guterwa icyo gihingwa.

Ahantu mu gishanga harimo inzira y'abanyamaguru y'igitaka, hakaba hari n'amazi agaragara. Hirya y'aho hari amashyamba ndetse n'ibiti bya gereveriya byinshi.

Igihingwa gitoshye cyane kimeze nk'uruboga, kikaba gifite amababi y'icyatsi, hirya yaho hakaba hari ibindi biti byinshi bisa ubururu ndetse n'ubutaka umuntu ashobora guhingaho.

Igihingwa cy'umuceri giteye mu gishanga kikaba kenda kwera, harimo uwamaze kuma, weze neza ndetse hakaba n'undi ugikeneye igihe, ukaba wose ugiye uteye ku bibabi byaho byabugenewe.

Insina ifite igitoki iri kumwe n'indi yenda kwana, inyuma y'aho hakaba hari inyubako nziza isakaje amabati, isize irangi ry'umuhondo ndetse n'iry'ubururu ndetse na karabasasu hasi.

Ahantu h'umurambi harambitse, hakikijwe n'ibyatsi hirya no hino, hakurya hakaba hari amazu atagaragara neza afite amabati y'umweru, hakaba hari n'ibindi biti bimeze nk'ibikikije ku mazi.

Inyubako ipakiyemo amakarito menshi y'ibyo kurya, byiganjemo amakaroni y'ubwoko bwinshi, ari mu mashashi afunitse mu mabara atandukanye umutuku, umuhondo, icyatsi n'ibindi.

Umurima uteyemo igihingwa k'imyumbati harimo n'ibyatsi byumye, hepfo gato hari inyubako nziza ifite igisenge cy'umutuku, isize irangi ry'umuhondo ikikijwe n'ibiti.

Igihingwa cy'urubuto rw'icunga gitoshye neza, kikaba gifite imbuto zitarera neza zigisa icyatsi. Inyuma yacyo hari indabyo ndetse n'inzu ituyemo abantu.

Umuhanda w'igitaka uri iruhande rw'igishanga, hakaba hanyuramo amapoto y'amashanyarazi ajyana umuriro mu baturage. Hakurya hari imirima ihinze itarimo ibihingwa byari byagaragara.

Igihingwa k'insina gifite abana babiri, hakaba hari kandi ibigori byeze neza bigeze igihe cyo gusarurwa. Hasi hari itaka n'ibyatsi byinshi by'amoko atandukanye.

Uruboga ruri ahantu mu bisambu rukaba rusa neza rutoshye rufite amababi y'icyatsi, hirya gato hari ibindi byatsi ndetse n'ibiti byumye bigiye birambitse hasi.

Ahantu hari ishyamba ryinshi cyane ry'inzitane, hakaba harimo ibiti by'ubwoko byose, iz'inturusu ndetse hari n'ibibindi byatsi biri ku mpande ubona yuko byenda kuma kubera izuba.

Ahantu hari ishyamba ryinshi wagira ngo ni ubutayu, hakaba hateye ibiti hagaragaramo n'amabuye menshi. Haraterera cyane ku buryo nta muntu wapfa kuhurira uko yiboneye.

Ahantu harambitse ibiti byinshi batemye bimaze kuma, hirya gato hakaba hari ibindi biti batigeze bageraho batema. Hakurya hagaragara imirima bahingamo imyaka.

Abazungu baje mu bikorwa by'ubukerarugendo, umwe akaba afite kamera ari kugenda afotora inyamaswa ziri hakurya. Bari ahantu hari ibiti byinshi ndetse n'ibihuru bitandukanye.

Urubuto ruteye mu kintu k'ikizeru cy'umukara, hirya gato hakaba hari ibyatsi, ndetse n'ikintu kimeze nk'urutare. Hari gucamo kandi umugozi muremure ushobora kuba utwara amazi.

Umugabo wambaye agapfukamunwa umupira w'amaboko magufi, akaba ari ahantu habugenewe kororera imbuto bagahumbika. Afite igiti cy'avoka mu ntoki, kiri mu itaka, ripakiye mu ishashi y'umukara.

Ahantu hateretse ibigori byinshi binini byeze ndetse n'inyanya zisa neza zatukuye, bikaba birunze ku kintu kimwe kandi hari n'amababi y'ibyo bigori, bigaragara yuko byaciwe uwo munsi.

Abantu batatu barimo babiri bateze ibitambaro bambaye na bote, n'undi umwe wambaye umupira w'umukara, bakaba bari mu murima bari gushingirira imyaka wagira ngo ni inyanya.

Igishanga kirimo ibigori kikaba kirimo uburyo bw'ikoranabuhanga bwo kuvomerera, aho ibitembo bigenda bimena amazi akavomerera ibyo bihingwa by'ibigori.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare n'ipantaro, akaba afite umugozi muremure wa palasitike ari kuvomerera imbuto mu gishanga, hirya ye haparitse ingunguru nini ndetse n'ibiti.

Ivomo ry'ipombero ririmo riramena amazi menshi, ahantu mu murima w'igishanga, harimo igihingwa cy'umuceri ndetse n'inzira icamo abantu b'abanyamaguru. Hirya haragaragara ibindi biti.

Abantu bari mu murima w'ibigori harimo umwe wambaye ikote ry'umukara, ishati y'umweru n'undi uteze igitambaro, inyuma yabo hakaba hari uburyo bw'ikoranabuhanga bwifashishwa mu kuvomerera imyaka.

Igihingwa cy'ibigori cyamaze kurabya, hakaba hari n'uburyo bw'ikoranabuhanga, bukoreshejwe ibyuma bwifashishwa mu kuvomerera ibyo bigori. Hakurya hari umusozi uteyeho ibiti.

Amazi menshi akikijwe n'uruzitiro rw'umutuku ndetse n'umweru, inyuma yaho hakaba hari ibiti byinshi, bimwe birebire ibindi bigufi. Inyuma gato hari imisozi miremire iriho ibiti.

Umugabo ukenyeye umupira wambaye n'undi w'ubururu, ujya kuba icyatsi afite icyatsi mu ntoki n'ipantaro yahinnye, akaba afite umupira mu kandi kaboko ari kuvomerera igihingwa ke k'ibigori, hirya ye hari igiti cy'umuyenzi.

Umurima w'igishanga urimo gucamo amazi aturuka mu gitembo bapfumuguye, bikaba bisa neza bigeze mu gihe bimaze kubagarwa, inyuma yabyo hakaba hagaragara ibisambu ndetse n'ibihuru.

Uburyo bugezweho bwo kuvomerera, aho ibitembo biri kuvomerera imbuto mu gishanga, hakaba hirya hari amashyamba ariko hakaba ari uburyo bw'ikoreshwa mu kuvomerera imyaka.

Uburyo bw'ikoranabuhanga mu kuvomerera imyaka, ibitembo bica mu kirere bigenda birekura amazi. Hasi hari ibihingwa bitandukanye bivomererwa n'ibyo bitembo maze ibihingwa bikera neza.

Ahantu hari umurambi hakurya hakaba hari imisozi yiganjemo ibiti by'amoko anyuranye ibirebire ndetse n'ibigufi, hari ibyatsi ndetse n'imirima yo guhingamo.

Ahantu hari imirima y'amaterasi, hepfo gato hakaba hari urutoki ndetse n'utuyira tujya mu ngo z'abantu zisakaje amategura izindi amabati, hakurya hakaba hari umugezi.

Ahantu hari imisozi iteyeho ibiti byinshi, hakaba hari n'inyubako imwe igaragara ifite igisenge cy'umweru. Hakurya cyane hari iyindi misozi ibiri nayo iriho ibiti byinshi cyane.

Ahantu hahanamye cyane hari umugezi utemba, amazi akaba yarahacukuywe cyane. Hakikijwe n'urutoki ndetse n'ibiti by'ubwoko butandukanye bw'ishyamba ndetse n'ibigori.

Imisozi myinshi igiye igerekeranije hariho ibyatsi bisa icyatsi ndetse n'ibiti bitandukanye, inyuma y'aho iyo witegereje uhabona iyindi misozi miremire, iteyeho na yo ibiti byinshi.

Ikibaya kinini gikikijwe n'imisozi ibiri hakaba harimo ibyatsi bito bito hari gucumbamo n'umwotsi, hagaragara kandi ingo inyuma cyane zituwemo n'abantu zifite amabati kandi hari n'ibiti ku musozi wo hakuno.

Inkoko nyinshi ziri mu mabara y'umutuku ujya gusa umweru, zikaba ziri ahantu ziba ziri gutora ibyo zirya, hasi hakaba hamenye ibiryo byinshi.

Abantu benshi bameze nk'abaganga b'amatungo, bari ahantu hari uruzitiro rw'inka, harimo inka zifite amahembe maremare baje kuzivura. Hirya no hino hari ibyatsi byinshi.

Inka iri mu mabara y'umweru ndetse n'umutamu, ikaba ihagaze ahantu hari sima, ku ruhande hari igikuta gisize umucanga ndetse hakaba hagaragara n'uruzitiro rw'umweru.

Ikiraro gikoze mu biti by'imbabari hakaba harimo ingurube nziza y'urutobo, ikaba ihagaze kuri sima nta byo kurya ifite, inyuma gato haragaragara ibindi biraro bibamo ingurube.

Ingurube nyinshi z'ibitobo zisa umutuku zikaba ziri ahantu ziba hari umucanga w'umweru, hasi hakaba hari sima, ahantu ziba.

Ahantu hari inka nyinshi ndetse n'ibicuba hari abantu barimo barakama, twavugamo nk'umwe wambaye ingofero, ishati n'ipantaro, n'inkweto zifunze, akaba yunamye ari munsi y'inka ari kugerageza kuyikama.

Umugabo wambaye iserubeti y'ubururu na bote, akaba ari mu nzu yagenewe umushinga w'inkoko zitera zikaba zifite amagi, akaba ari kugenda akusanya uwo musaruro.

Inzu irimo ibiraro bitandukanye by'inkwavu, hakaba hari ahantu hari ikiraro gisakaje senyenge, mo imbere hakabamo amatungo y'inkwavu z'umweru, hirya gato hakaba hari ibindi bitarimo ayo matungo.

Itungo ry'ingurube risa ibara rijya kuba umutuku, rikaba rifite amaherena. Abenshi bakunze kuryita ingurube z'ibito. Ikaba ihagaze ahantu hari ibitaka.

Ingurube isa umukara n'umweru, ikaba ifite ibyana byinshi yabyaye na byo bifite amabara. Zikaba ziri ahantu hari sima ndetse n'ikibumbiro ziriramo ibyo kurya.

Ikiraro k'inka gisakaje amabati n'ibyuma by'umutuku, hakaba harimo n'ibitembo bisohora amazi ayajyana hanze. Harimo inka y'umukara n'umweru ndetse n'umuntu wambaye bote n'igisurubeti ushinzwe kwita ku nka.

Inka nyinshi ziri mu mabara agiye atandukanye ziteraniye ahantu mu byatsi ziri kurisha, inyuma yazo hakaba hari ibiti birebire, hirya gato hakaba hari umugabo wambaye umupira w'umutuku, ipantaro ndetse afite n'inkoni.

Umugabo wambaye ingofero y'umukara, umupira w'umukara n'pantaro hamwe na bote, akaba afite ibasi arimo aruhira inka ifite amabara y'umukara n'umweru.

Ikiraro gisetishije senyenge ndetse n'ibiti, hakaba harimo amatungo y'ihene, ari mu moko agiye atandukanye, twavugamo umukara, umweru ndetse n'umutamu.

Inka nyinshi zisa nk'ikivurivundi zambaye amaherena y'icyatsi, zikaba ziri mu nzu zabugenewe zisakaje amabati zirimo ibyuma bihagaze ziri kurisha.

Inkwavu nyinshi zisa umweru ziri ahantu ziba, hakaba hatwikirije ibintu bimeze nka senyenge. Inyuma y'aho hari utubati dukoze mu biti, natwo turimo uturyango tugiye dutandukanye habamo inkwavu.

Ingurube y'urutobo ifite ibyana byakuze cyane, ikaba iri kubyonsa iri mu kiraro kirimo ibarizo ryinshi riyifasha kutandura. Ikaba irimo irarya.

Inka nziza za kijyambere, ziri ahantu mu biraro, zikaba zambaye amaherena, zirimo zirarya, ahantu ziba hakaba hari ibyuma bijya gusa umweru ndetse n'igisenge cy'amabati.

Inka iri mu mabara y'umweru ndetse n'umutamu, iruhande rwayo hakaba hari ikiraro ibamo, ikaba iri kurya ubwatsi. Inyuma gato hari urugo rw'amadafari ndetse n'ibiti.

Inka nyinshi ziri mu ifamu zirisha zikaba ziri mu mabara atandukanye, hirya hakaba hari ibiti byinshi binyuranye ndetse n'ibiti by'amahwa, hakaba kandi ari umuntu uba uziragiye wambaye umupira w'umutuku.

Umushinga w'inkoko zitera zifite n'amagi, zikaba ziri mu nzu y'ibyuma yabugenewe, zifite kandi ahantu zirira ndetse n'igisenge gikoresheje ibiti birimo bitambitse hejuru mu mabati.

Igihingwa cy'ibigori byinshi birambitse kuri shitingi, bakaba babiseye ibyinshi ari ibitiritiri. Inyuma yabyo hagaragara itaka ryinshi ndetse n'indi shitingi izinze.

Abantu bagaragara ibiganza gusa, bakaba bambaye inkweto z'umutuku, bafite imbuto nyinshi mu ntoki zijya gusa ikivurivundi, ziri ku kantu kameze nk'inkoko ya kera.

Ibigori bishishuye bisa neza byeze cyane, bikaba biriho imisatsi inyuma gato hakaba hari n'ibindi bigori bigaragara amababi, bigaragara yuko bikeneye gukura.

Abantu babiri bagaragara ibiganza gusa, bakaba bafite ibishyimbo mu ntoki biri mu mabara y'umutuku, umuhondo, umweru ndetse n'ikigina. Umwe akaba yambaye akantu mu kaboko.

Inyamaswa ziryamye hasi ,hakaba hari n'amaraso wagirango zabyaye. Hirya gato hari umugabo wambaye bote, ndetse n'undi utagaragara neza wambaye ga. Ndetse ari gupima uburebure bw'imwe mu nyamaswa.

Abantu babiri bambaye ga batagaragara mu maso, bafite icyuma bari kubaga inyamaswa, hirya gato hari undi muntu utagaragara mu maso na we wambaye imyenda y'abaganga na ga uri kubafasha.

Umuganga w'inka wambaye ingofero n'imyenda yabugenewe yabo akaba yambaye ishashi mu kiganza ari gukora mu nda y'inka iri mu kiraro nkaho ari kuyivura.

Inyoni nyinshi ziri mu mazi ziri kugenda zitambuka, harimo izibiye zasigaje umutwe wonyine hakaba n'izindi ziri hejuru, hirya yaho hari amazi menshi cyane.

Itungo ry'igishuhe riba mu biguruka, rikaba riri ahantu hari itaka ryinshi ryivanzemo amabuye, rikaba kandi rifite amabara y'umweru ndetse n'umuhondo. Iruhande rwayo hari icyobo gikoresheje sima.

Ishyamba ry'inzitane rikikijwe n'ibihuru byinshi harimo ibiti birebire cyane ndetse n'ibigufi hakaba hahagazemo inyamaswa ifite amahembe, ijya gusa umukara ndetse n'ikivurivundi.

Ahantu hazitiye n'uruzitiro rw'imiyezi hakaba haryamye inka enye zifite amabara atandukanye harimo isa umukara n'umweru, umukara gusa n'isabu umutamu. Zikaba ziryamye mu byatsi.

Inyamaswa zo mu gasozi zimeze nk'injangwe zifite ubwoya bwinshi zegeranye, zihagaze mu byatsi byinshi, inyuma yazo hakaba hari ibindi byatsi byinshi binyuranye.

Inyamaswa y'inkazi ireba nabi, iri mu mabara y'umukara ndetse n'ikivurivundi, ikaba ifite ubwoya bw'umweru ndetse n'amatwi abanguye. Inyuma yayo hari igiti kitagaragara.

Inyamaswa ziri mu cyanya cyahariwe inyamaswa, zikaba ziri mu moko atandukanye, hirya hari izigaragara n'iziri hino zifite amahembe. Hirya gato hari ibitare ndetse n'ibyatsi zirya mu buzima bwazo bwa buri munsi.

Inyamaswa y'inkazi yarakaye, ikaba yasamye igaragara amenyo yo hasi n'ayo hejuru ndetse n'ururimi. Ku munwa hariho ubwoya bw'umweru ndetse irasamye cyane.